Agakarito karimo imiti itandukanye iyi miti yifashishwa mu kuvura abarwayi mu gihe barembye.

Abagabo batanu n'umugore umwe babiri muri bo bambaye imyenda yabakozi ba kuruwa ruje iruhande rwabo haparitse imodoka ya kuruwa ruje.

Abantu benshi bamwe muri abo bantu bambaye amataburiya y'abakozi ba Croix Rouge hari n'imodoka ibafasha gukora uwo murimo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abakozi bo kwa muganga. Bambaye imyenda yabugenewe. Bigaragara ko bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda.

Ahazwi nko ku ivuriro, hari imodoka bakoresha mu kujya gufata abarwayi igihe barembye cyangwa se kubajyana ku bindi bitaro. Hari umuganga wambaye imyenda y'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batandukanye bisa nk'aho bari mu nama, imbere yaho hahagaze umuntu bisa nk'aho ariwe uri kuyobora iyo nama.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga, harimo ibitanda biriho abarwayi baryamye ndetse n'abarwaza bicaye ku bitanda, hirya yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri kwandika mu gitabo.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, kirimo umugore wambaye itaburiya y'umweru uri gukoresha mudasobwa, bigaragara ko hari amakuru ari gushyira muri sisiteme.

Igorofa rinini cyane ririho bariko z'umweru bigaragara ko ari ikigo nderabuzima. Imbere yaryo hahagaze abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo.

Inzu ngari igaragara ko ari ivuriro. Harimo abaganga benshi batandukanye bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa. Hari ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abandi bagore babiri n'umugabo umwe, umwe muri abo bagore ni umuzungu.

Ahazwi nko ku kigo nderabuzima, hari amapave aparitsemo imodoka izwi ku izina ry'imbagukiragutabara, yifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga mu gihe barembye, imbere yayo hahagaze abagabo babiri ndetse n'umugore umwe.

Abantu bahagaze ku murongo basa nk'aho bari kwifotoza, ni abagabo ndetse n'abagore ariko inyuma yabo hari imodoka igaragaza ko ari imbangukiragutabara y'ibitaro itwara abarwayi.

Icyumba cyo ku ivuriro gisa nk'aho ari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, harimo abaganga batatu bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Itente iri gukorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi kugira ngo babashe gusuzuma abantu indwara, bigaragara ko ari abasirikare barimo kubasuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imiti ndetse n'inshinge bitandukanye. Byifashishwa mu kuvura abantu ndetse harimo umuganga wambaye uturindantoki. Afite ibyuma byifashishwa mu gukura amenyo.

Icyapa kigaragaza ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyagatare hasi yaho haragaragaramo abaganga batandukanye, bakora muri ibyo bitaro.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, harimo umubyeyi uteruye umwana wicaye ku ntebe hakaba na muganga biragaragara ko ashobora kuba ari gufata uyu mwana ibipimo by'umuriro.

Indege yifashishwa ku bigo nderabuzima kugira ngo babashe kubona imiti ku buryo bwihuse cyangwa babashe kubona amaraso yo gufasha abarwayi barembye, iyi ndege izwi ku izina rya dorone.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima bigaragara ko basa n'aho bari mu nama, imbere yabo hari umusirikare harimo umuntu wambaye agapfukamunwa.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi bose bambaye amataburiya y'umweru biragaragara ko bari gukora ubushakashatsi mu cyumba cy'ubushakashatsi ariko bakaba bari kugenda bakorera mu matsinda.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi harimo abantu babiri barimo gukora ubushakashatsi runaka, bambaye amataburiya y'umweru bose.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi, hakaba harimo n'igikoresho bifashisha bari gukora ubushakashatsi butandukanye k'ikoranabuhanga.

Umujyanama w'ubuzima uri kugira umugore n'umugabo inama ,uyu mugore n'umugabo biragaragara ko babana neza ,kandi uyu mugore aratwite .Umujyanama w'ubuzima ari kubereka uburyo ki yafata neza umwana uri mu nda ndetse n'umubyeyi.

Abantu benshi bigaragara ko bari kwizihiza ikirori runaka, bose bambaye imipira y'icyatsi isa. Bari mu busitani ndetse hari n'abandi bantu benshi bari mu matente.

Abantu benshi basa n'aho bari mu nama, benshi ni abamama bateruye abana ariko harimo n'abagabo, bisa n'aho bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bw'abana.

Icyumba cyo kwa muganga kizwi nko muri materinite, ni icyumba abagore babyariramo abana. Harimo umugore wikenyeye igitenge ndetse n'uruhinja ruryamye ku gitanda.

Icyapa cyifashishwa mu kwamamaza umunsi wizihizwa, cyanditseho ngo icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana.

Sale nini isa nkaho iri kuberamo inama, harimo abantu batandukanye ndetse hari n'abandi imbere basa nkaho bari kubigisha kubijyanye n'ubuzima.

Icyumba kirimo abanyeshuri batandukanye abakobwa ndetse n'abahungu bose bambaye iniforume umweru hejuru kake hasi n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bisa nkaho uno muntu utambaye iniforume ari kubahugura mu bijyanye n'imitekerereze.

Icyumba kinini kirimo abantu bicaye bisa nk'aho bari mu nama bari kwizihiza umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe ku isi, imbere hari umuntu w'umugore uri kubaha ibiganiro.

Ikigo cy'amashuri mbere y'aho bigaragara ko hari abanyeshuri benshi bicaye mu busitani, bisa nk'aho bari guhabwa ikiganiro kerekeranye n'ubuzima.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari kubahugura ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bicaye mucyumba, bisa n'aho bari mu nama, buri wese afite icyo kunywa imbere bigaragara ko bari kuganira ku kibazo cy'ubuzima.

iIyumba kirimo imiti itandukanye ,biragaragara ko bacuruza imiti y'abantu. Harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru niwe ucuruza iyi miti.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ariko ikaba itanga izindi serivise nk'izo kumasa abantu ndetse handitseho ngo tuvurisha ibimera.

iIcyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye, iki cyumba gifasha abantu, mu kubona ubuvuzi bwihuse nko mu gihe batunguwe n'uburwayi, umuntu ahita abagana, bakamuha imiti.

Icyumba kinini cyane gicururizwamo imiti itandukanye harimo abantu bane batatu muri bo bambaye amataburiya ya kake undi yambaye umupira w'umutuku.

Ahazwi ku izina rya farumasi, aho tugurira imiti y'amatungo, dushobora kugurayo ama vitaminini y'amatungo cyangwa se imiti mu gihe amatungo yacu yarwaye.

Ivuriro umuntu ashobora kujya kwivurizaho mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi, hejuru handitseho ngo: "Ivuriro gakondo", hasi handitsweho ngo: "Ivuriro rivurisha ibimera."

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye. Umuntu ashobora kujya kugurayo imiti mu gihe yumva atameze neza. Imbere yayo hari umuhanda, ushashemo amabuye.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye, aho gifasha umuntu, kwakira ubuvuzi bwihuse mu gihe atunguwe n'indwara.

Inzu icururizwamo imiti, akenshi dukunda kwita farumasi. Imbere yayo hari amapave mu mbuga, ndetse haparitse na moto ku ruhande, hirya y'aho hari indi miryango y'ubucuruzi.

Icyumba kinini, gicururizwamo imiti y'amatungo itandukanye ndetse hari n'ibipimo, abantu bashobora gukoresha, bipima ubushyuhe.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, ku buryo iyo umuntu arwaye abagana bakamuha imiti.

Uruvunge rw'abanyeshuri benshi, bambaye uniforme zitandukanye, bamwe bambaye umukara hasi n'imipira y'ubururu, abandi bambaye umukara hasi n'amashati y'umweru, bigaragara ko bari mu kwamamaza igikorwa runaka.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bigaragara ko habereye ibirori byo kwakira abahanzi batandukanye.

Abantu benshi batandukanye, bari mu cyumba bisa nk'aho hari igikorwa barimo kwizihiza, harimo ndetse n'abapolisi bambaye inifomu y'abapolisi ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Icyumba kinini kirimo kuberamo inama, hari abantu benshi bicaye bari mu nama, ndetse hari n'undi muntu uhagaze imbere yabo uri kubakoresha inama, hari icyapa kiri inyuma cyanditseho ngo ishema ryanjye kadi.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru isa, bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama, ni abagabo ndetse n'abagore.

Abantu benshi bisa nk'aho ari abanyeshuri, bari mu gikorwa cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bigaragara ko bari kubi bikorera ku ishuri ryabo.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri. Abanyeshuri bigaragara ko bari kwamamaza uko twakwirinda sida. Bari kugenda mu muhanda ndetse bafite n'icyapa kibyanditseho.

Abantu benshi bicaye munsi y'itente, hari n'abandi bicaye imbere yaryo, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwamamaza cyangwa se mu nama.

Abantu benshi bicaye imbere y'amazu manini, biragaragara ko bashobora kuba bari mu nama, kuko imbere yabo hari umuntu ubayoboye wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ya kake.

Abantu benshi batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, barimo kwamamaza uko hakoreshwa agakingirizo kugirango ngo hirindwe indwara. Bafite ibyapa bitandukanye, hariho icyanditse ngo ugakoreshe neza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, kugira ngo tubashe kuvura abantu ku buryo bwa gakondo.

Umurima urimo ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu ibimera byifashishwa mu gukorwamo imiti ya kinyarwanda kugira ngo babashe kuvura abantu mu buryo bwa gakondo.

Ibimera bitandukanye bifashisha bari gukora imiti ya kinyarwanda, bashobora kubikoresha mu kwivura cyangwa se bakabanza babihinduramo ibindi kugira ngo babashe kuvura umuntu.

Amavuta ya kinyarwanda akorwa mu byatsi, aya mavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo ibimera bitandukanye handitseho ngo umuravumba.

Icupa ririmo amavuta akozwe mu byatsi. Aya tuyifashisha mu kwirinda indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kwirinda izindi ndwara izo ari zo zose. Ibi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo handitseho ngo umuravumba.

Ahazwi nko kwa muganga hatangirwa serivise z'ubuzima, hari abaturage benshi baje kuhivuriza hari n'imiti itandukanye babaha, hari abaganga bambaye amataburiya y'ubururu.

Icyumba k'ivuriro gikoreshwa mu gusuzuma abarwayi, harimo umugore uteruye umwana wicaye ku ntebe ndetse na muganga wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari gusuzuma uyu mwana.

Icyumba cyo kwa muganga gitanga serivise z'ubuzima, bigaragara ko harimo ababyeyi babiri bafite abana ndetse n'umugabo, bigaragara ko bagiye kwivuriza kwa muganga.

Icyumba k'isuzumiro cyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse harimo n'umugore waje kwivuza.

Ivuriro ryigenga ritanga serivisi z'buvuzi, rifite irangi ry'ubururu ndetse haruguru yaryo hari andi mazu yifashishwa mu kuvura.

Inyubako ifite irangi ry'ubururu. Bigaragara ko ari inyubako ya pirive ikorerwamo ubuvuzi. Imbere yayo hahagaze abantu, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru. Bisa nk'aho ari abaganga bahakora.

Inyubako y'ivuriro ryigenga, iyo nyubako ifite irangi ry'icyatsi ku nzugi, ikagira n'irangi ry'ubururu kuri iyo nyubako, imbere yayo hari abantu babiri bafite umurasire.

Ivuriro ryigenga, imbere yaryo hari icyo bifashisha barimo gukaraba, hariho umumama urimo gukaraba kugirango abone kwinjira.

Inzu ifite amarangi y'ubururu, iyi nzu akaba ari ikigo nderabuzima, aho umuntu ashobora kujya, mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi.

Ivuriro ryigenga riri mu nyubako iteye amarangi y'ubururu, imbere yaryo hari abantu bigaragara ko ari abantu baje kwivuza, ndetse hari n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu uri kubafasha.

Icyumba cyo kwa muganga abarwayi bivurizamo, harimo umuganga wambaye itaburiya, ndetse n'umugore waje kwipfukisha. Muganga arimo kumupfuka, kandi yambaye n'uturindantoki.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragara ko kirimo umurwayi, harimo umuganga urimo kumusuzuma wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'uturindantoki tw'umweru.

Ivuriro ryigenga, ni inyubako iteye amarangi y'umweru, hariho icyapa cyanditseho ngo:"Girubuzima", imbere yayo hari umugore uri kuvayo bigaragara ko avuye kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga, giha abantu serivisi kugira ngo babashe kujya kwivuza. Hicayemo aba mama babiri bafite abana ndetse n'umugabo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo abantu batandukanye bigaragara ko ari abaganga kuko abenshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru.